Abana biga ubukerarugendo bafashe inkoni bambaye n'imyenda isa, bagiye gusura ibyiza nyaburanga no kwiga amasomo yabo basanzwe biga.

Abanyeshuri bari kuri kompyuta bambaye udupfukamunwa, aho bari kwigira kuri mudasobwa ibintu byinshi bitandukanye. Uburezi bw'u Rwanda bityo bwarushaho gutera imbere.

Abanyeshuri bari kwiga tekinike, ibikoresho bari kwigiraho biteretse ku meza, abanyeshuri bambaye iniforume kandi bari kwishima amasomo bari kuyumva.

Imodoka bagiye gukanikisha ikaba yanditsweho Nazareti bakaba bagiye kuyividuramo amavuta ahantu hakaba hasa neza kandi hakaba hari amakaro.

Abantu bari gukanika amashanyarazi, bakaba bambaye ibitaburiya byanditsweho Canika TSS, bakaba bari gukora amashanyarazi kandi bakaba bari kwiga.

Abanyeshuri bari kwiga, bakaba bakurikiye bakaba bari kwiga uburyo ibimashini bikoraga, bambaye imisatsi abahungu ntabwo bambaye amadorubindi.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye eniforume aho bari kwiga kudoda, barakurikiye neza kandi baritonze, ibi bigaragaza ireme ry'uburezi buri mu rwanda.

Gushushanya ni kimwe mu bugeni bwarangaga abanyarwanda, umusore arimo gushushanya kandi bigaragara yuko azi gushushanya neza akaba ari kwigana ifoto afite.